Ahantu nijoro cyane, hariho inyubako hejuru hariho imodoka irimo gushya, n'imibare yafungutse hejuru hariho amagambo yanditse mu rurimi rwicyongereza.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Hariho abantu bari mu kantu kuruziga bose harimo abarimo guseka bishimye handitse ngo gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe.

Umukobwa wambaye inkweto z'umweru, ipantaro'ikoboyi, umupira w'imbeho, imbere afitemo agapira gatukura, ufite imisatsi, ufite mu maso h'inzobe, ari ku rupapuro rusa mu ibara ritukura hariho amagambo yanditse mu kinyarwanda.

Ipironi ry'umuriro wa amashanyarazi riho insinga, hasi hariho ibiti, hariho n'ikintu gifata amashusho y'ibintu byakozwe hakaba n'ikintu kimanitse hariho ibintu byanditse mu rurimi rw'icyongereza, hariho n'amazu hasi menshi cyane asa umweruru.

Umwana w'umukobwa mwiza cyane wambaye imyenda isa, amanitse ukuboko hejuru inyuma ye harasa ibara ry'ubururu hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Nijoro mu muhanda ahantu harimo gusa umukara hariho ibiti, amatara arimo kumurika mo inzu iri hakurya hari iby'ibyapa birimo biyobora abantu beza n'ahantu hagenda abaturage bizigamira.

Abantu babiri bahuje ibiganza bose bambaye amakote, amashati y'imyeru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza hasi banditse mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Umwe, babiri, batatu, bane, batanu, bataratu, barindwi bahagaze bose bafite urupapo mu ntoki hariho amagambo, rusa ibara ry'ubururu bakandagiye ku kintu gisa n'ibara ry'umutu.

Ni ishusho iri mu ibara ry'umukara harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza' adarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, harimo no muri telefoni muri wa mirongo inani na gatatu ku ijana, harimo n'isaha.

Urabonamo agapapuro ka banki yanditse mu ibara ry'umweru n'umukara, nubururu hariho isaha ibara saa sita na mirongo ine n'ine hariho amamenyesha hejuru, n'umuriro wa makumyabiri na gatatu kw'ijana.

Terefone irimo isaha ya saa mbiri na mirongo ine n'irindwi harimo amamenyesha ya watsapu harimo umuriro wa mirongo mirongo irindwi na gartandatu ku ijana hariho taburo ishushanyijeho.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara amazina n'imibare yanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ifite amabara y'imituku.

Hariho ibintu byanditse mu ibara ry'umukara, umweru, umutuku, icyatsi n'ubururu bwijimwe, ahantu hameze nkaho hagaragaramo umuriro urimo muri, terefone n'isaha irimo kubara saa munani n'iminota ine.

Ni nyubako y'ubucuruzi harimo ububati, hakabamo n'akantu karambuye hasi ku musambi harambitse utuntu dutatu, hirya hakabaho bw'ubuti butambitse hamanitseho imyenda myinshi, hasi harimo amakaro n'amatarama arimo kwaka.

Ahantu mu inzu mw'imbere hari amakaro, hasi harambitseho utuntu turi mudu tambaro, tw'umutuku, hariho hejuru m'udukapu tw'abagore bigiye bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye.

Utuntu tudoze, tw'amasaro menshi atondetse hejuru ku rukuta ahantu, n'uzu tundi turambitse hasi natwo tw'udu, tw'udukara turambitseho naho amasaro agiye atandukanye mu mabara agiye atandukanye, n'utwenda.

Ndabona mo umuntu w'umu mama, nkabonamo imbere ye hari imashini, hakabamo imyenda, imipira isa umweruru, n'indi ivanga vanze amabara, hari mo imikara, iy'umuhondo imanitse kukantu hakaba ari mu nzu mo imbere.

Inyubako y'ubucuruzi harimo ameza arambitseho ibitenge, hakabamo n'akabati karimo utuntu tw'uduti twinshi tugiye turimo hari ahagiye harimo ibitenge bigiye bacururiza aho hantu.

Ahantu munzu mu imbere ariko hatabona neza harimo hasi amakaro ndetse harimo irange ry'umweru, amatara arimo kwaka, harimo imyenda imanitse ku tuntu dutambitse hejuru myinshi.

Mu nzu nziza cyane irimo akabati harimo utuntu tw'uducuma hasi ameza ateretseho ibikombe n'ibindi bintu bitagaragara neza byinshi cyane harimo amakaro hasi mu ibara ry'umuhondo.

Ahantu bacururiza imyenda hejuru hariho icyuma gitambitse, hariho utuntu bamanikamo imyenda y'imipira irimo, imanitsemo ifite amabara agiye atandukanye, hakurya hagaragara urugi rufunguye.

Iyi ni hoteri yubatse ku buryo bugezweho ndetse butangaje, ikaba yubatse mu gihugu cy' uRwanda mu mujyi wa Kigali; aho abakerarugendo bishimira kuyisura ndetse ikaberarwamo n'ibikorwa bitandukanye by'igihugu.

Ihagaze hasi ikaba ifunguye inzugi ebyiri z'imbere, harimo abantu barimo kurebamo imbere, abandi bahagaze kumuryango w'imbere nk'abagiye kwinjiramo. Inyuma y'aho hari inyubako y'inzu ihubatse.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini cyane irimo kwaka amatara. Hakurya yaho hariho ibyuma biriho inyuma, hakabaho n'inzu n'igiti giharigifite ibishami birebire, hejuru y'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ikirere kiri gusa ubururu n'umweru bivanze.

Ihagaze muri kaburimbo. Inyuma yaho hariho ibyuma, mo hasi harimo ikinogo, mo hasi hateyeho ibiti, hakurya hari amazu menshi. Hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Imodoka ipakiyemo imashini y'umuhondo, mu muhanda w'igitaka hariho ibyuma bizengurutse inyuma yaho, mo imbere harimo andi mamashini n'amatsinaga menshi cyane azamuye hejuru, harimo atambitse n'amananitsi maremare.

Imodoka ihagaze ndende imbere yaho hariho abantu babiri barimo kwerekana ibintu byanditseho mu rurimi rw'icyongereza no mu kinyarwanda, inzu iri imbere y'ibirahure n'insinga zica hejuru y'imodoka.

Imodoka yatse amatara, ifite purake imbere, bimeze nk'aho mo imbere harimo umuntu, hejuru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, mu muhanda wa kaburimbo inyuma hariho n'ikiraro.

Imodoka irimo iragaragaza purake iri m'ibara ry'umweru, amatara arimo kwaka n'ibinyoteri ifite ibara ry'umukara, hasi harimo sima imbere yaho hariho inyubako y'etaje ndende ariho n'amagambo yanditse m'icyongereza na nomero za tefone.

Abantu umwe babiri batatu bafite icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza imbere yaho haparitseho imodoka bakaba bahagaze ahantu hashasheho amatafari inyuma yaho hariho inzu ifite ibirahure binini cyane.

Inzu irimo imodoka nyinshi cyane, ziparitsemo nk'aho bazikodesha cyangwa habera ibirori bakaziparika hano. Hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza. Iyo nyubako hasi yubakishije amabuye. Imbere yaho hariho ipironi y'umuriro w'amashanyarazi, imanitseho insinga hejuru.

Abantu batatu n'imodoka ebyiri ziparitse ziri ahantu hubakiye hirya hari n'undi muntu n'ikirere gisa umweru n'umuhondo bivanze.

Abantu babirii umwe yambaye ikote n'ipantaro bisa undi ni umupira n'ikoboyi, imbere yabo hari imodoka y'umukara ihagaze. hakurya hari urukuta rwabaki amabuye ruzengurutseho n'ibyuma.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'abacunga umutekano. Imbere yaho hariho imodoka nayo iri mw'ibara y'ikirango, isa nk'imyenda yabo. Yanditseho amagambo yo mu cyongereza isa mw'ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu babiri hariho umwe uri mo imbere, inyuma bose bambaye udupfukamunwa na bo barimo kwirinda indwara runaka uw'inyuma afite amafaranga mu ntoki arimo kubara n'ikaramu mu ntoki.

Inote y'amafaranga irambitse hasi, handitseho amagambo yo mu rurimi rw'igifaransa, ni amafaranga ijana, hariho ikirangantego cy'u Rwanda, ni iyakoreshwaga kera cyane, ahantu irambitse hasi ni ku kintu k'ikibaho.

Amafaranga ariho ashushanyijeho inyamaswa, inyuma yaho naho hashushanyijeho umugore uhetse umwana, handitseho amagambo mu rurimi rw'Ikinyarwanda, banki nasoyonali y' u Rwanda.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, harimo idirishya, ibirahure, n'ibyuma ku mpande kumagambo yanditse y'umukara mu rurimi rw'icyongereza.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Akavudo k'umweru gapfundikiye karimo ibintu mo imbere, umuntu uhagaze imbere wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati hejuru y'ubururu gateretse hasi ni hirya hameze nkahantu harimo sima ariko nko kwerekeza hanze nyuma.

Ahantu harimo umwijima, hatabona, harimo ameza ateretseho ubucupa n'uburitiro n'ubuntu bukoze mu bushashi, wagira ngo harimo amata n'amaji, ari mu bwoko bugiye butandukanye.

Ahantu hari umwijima cyane, imodoka iparitse, abantu bari mu rubaraza, inzu yanditseho inyange hariho icyapa kirimo kwakwa.

Inzu yubatse hejuru ifiteho umusozo, uriho amakaro, hakaba hariho icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, urugi hasi rurafunguye imbere hashasheho amatafari.

Ahantu handitseho Mukamira, hejuru hariho abakobwa babiri umwe yifashe ku itama yambaye n'isaha, hejuru hariho ibintu birimo udukarito wagira ngo ni amata hakurya hariho ibyatsi n'inzu.

Ni urupapuro ruriho amafaranga y'amadorari mirongo ikenda na gatandatu n'ibice cumi u na sa da mu ibara ry'umweru n'ubururu byanditse mu ibara ry'icyongereza n'ibindi munsi.

Ibi byanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ibara ry'umweru, ubururu n'umukara. Hariho akantu ko kudawunirodinga babikuye ku rubuga na tuwita.

Udushushanyo twinshi dushushanyije mu bwoko butandukanye n'amabara agiye atanduknye utuzu, udukarito, akantu kameze nk'ako banagamo imyanda, amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ariho.

Muri aka kaziga karimo ibara ryi icyatsi harimo akantu ka terebye n'amagambo yanditse mururimi rw’ igifaransa n'amazina y'umuntu, imibare y'amafaranga ama gambogambo menshi harimo zeru gukuramo rimwe

Umukobwa usa neza uhagaze wambaye ikote n'ishati y'umweru mu maso n'inzobe afite imisatsi mu ntoki afitemo akantu kameze nk'impano bamuhaye, mbere ye hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'igifaransa.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, n'akantu gakomeye nko kuzana imibare, harimo akantu na ko gasa nka ibara ry'ubururu n'akandi ako kazengurutseho ibara ritukura risengurutse imbere n'amagambo.

Urupapuro ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hakabaho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, hakabaho akantu gashunyijeho kameze nk'aho ari isaka, hariho ngo Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda.

Aya ni amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, n'imibare harimo ikirangantego cy'u Rwanda, ni muri kompiyuta ruri, harimo akantu handitseho rimwe ku rupapuro rwa mbere kuri rumwe, ako kongera ingano yarwo no kuyigabanya, hasi hakabaho n'imirongo itambitse.

Abantu babiri bicaye imbere yabo hariho ameze barimo kugabana amafaranga agiye atandukanye bafite mu ntoki hakurya yaho bameze nkaho barimo munzu mo imbere ariko amatara akaba arimo kumurikamo.

Iki rero ni ikirango cyerekana ko bitemewe gukata iburyo kiri mumabara y'umutuku ndetse n'umweru hanyuzemo akarango k'umukara bireba abantu batwara ibinyabiziga ugeze ngo bakakibona ntugikurikize urahanwa.

Inoti y'amafaranga imwe ishushanyijeho amazu y'ibintu bizamuye hejuru nk'urwego, yanditseho ibihumbi bitanu, akaba ariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Inote yanditseho ibihumbi makumyabiri ariho ifoto y'urubumbano rw'umutwe, w'ubushumbashyamba ariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Igifaransa.

Amadarapo y'ibihugu n'amafaranga bagenda bakoresha; rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu, arindwi hariho ayanditse mu rurimi rw'icyongereza amagambo agiye ariho.

Inote nyinshi cyane, zitondetse ku murongo, zanditse mu rurimi rw'Icyarabu, hariho ifoto y'umugabo wambaye rinete, ufite uruhara n'umusatsi ku ruhande, wambaye n'ibintu wagira ngo yiteye. Imyitero.

Inote zirambitse hasi nyinshi cyane hariho imwe iriho ishusho y'umugabo igice cyo hejuru ufite imisatsi myinshi imanuye hasi.

Umuntu umuntu ufite ibiganza bibiri, ikiganza kimwe kiriho utuntu dutukura tuzengurutseho, afite inote z'amafaranga mu ntoki zirimo amoko abiri atandukanye ku mabara.

Inote y'amafaranga icuritse harimo inzu hashushanyijeho inzu na sinya ku ruhande, n'andi menshi ari inyuma agiye ashushanyijeho n'abantu, zikaba zifitwe n'umuntu, ikiganza akaba agaragaza intoki eshatu gusa.

Hariho ikirangantego hariho amagambo yanditse rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda mu kinyarwanda haraditse ngo banki nkuru y'u Rwanda hariho amadarapo y'ibihugu rimwe abiri atatu ane atanu.

Inote y'amafaranga iriho ishusho y'umugabo ufite uruhara wambaye lunette iteyeho ibintu by'ibitambaro inote iri mu ibara ry'umuhondo ivangavanzemo n'amabara y'icyatsi.

Ahantu mu nzu mo imbere. Hateretsemo mudasobwa, harimo akantu gafata amashusho y'ibintu byakozwe mo aho ngaho, n'ugaragaho ibiganza by'umuntu uteretse ahantu hejuru, wagira ngo ni ku gikuta.

Abantu batatu babiri bahagaze undi wicaye, uwicaye yambaye ikanzu y'umukara afite mudasobwa imbere ye hariho n'ameza hariho n'ibintu by'ibyapa inyuma biri mu ibara ry'umuhondo.

Akantu kameze nk'akabati ka hasi harimo utuntu tw'utwapa dusa umweru, hejuru na bwo harimo mudasobwa mu magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ibintu by'ibyuma bimeze nk'amasenyenge munzu mo imbere harimo ibara ry'umweru.

Inyubako yubatse mo imbere yiciyemo abantu inyuma hari abandi barimo kumera nk'aho barimo kugenda babaka ubufasha bw'ibintu bagenda babafasha hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'icyongereza n'andi yanditse m'ururimi rw'igishinwa.

Abantu babiri b'abazungu bahagaze bararamye barimo kureba hejuru hariho amagambo yanditse urumi rw'icyongereza mu ibara ry'umuhondo mu nyubako y'itaje igeretse rimwe hasi hakabaho n'imibare.

Intebe zo kwegamirwaho harimo intebe yicaraho umuntu umwe, n'izindi hicaramo abantu babiri batandukanye, ameza, na bwabuntu bwo ku mpande rw'ameza bagenda barambika utuntu tugiye dutandukanye.

Ahantu hanze harimo ibikoresho byo munzu, intebe, ameza, n'utundi tumeza duto turambitse hejuru yatwo, hakurya yaho hariho uruhavu rwubakishije amabuye. Hicayemo umuntu umwe, hakurya har'inzu iteye irangi ry'umuhondo.

Akantu gakoze mu mbaho k'akameza gafite forume nziza cyane hakurya hari akabati karimo ubuvido bw'arindwi n'ubucupa buto butandukanye.

Intebe yo kwegamaho y'ifariso imwe n'indi iri hakurya nini irimo imifariso hasi harimo amakaro n'akantu kari imbere bararambika utuntu na kizimyamuriro iri inyuma ebyiri ahantu hameze neza.

Umuhanda ukozwemo ukoreshejweho amabuye harimo moto zirimo kuzamukamo eshatu, imwe niyo ifite umugenzi w'umwana uhetse abandi ntabariho abagenzi hakurya hari n'abantu bari kugenda n'amaguru, hari amazu menshi ahubatse hakurya.

Ni muri saro harimo intebe z'amadive ziri hasi ahantu hapavomye ziragaragara harasa neza n'amadirishya ni nziza rwose zimeze neza intebe zamadive iyicaramo umuntu umwe niyiciramo abantu batatu.

Ibikoresho byo mu nzu, harimo; utubati, televiziyo imanitse hejuru itarimo kwaka, amatara na yo arimo kwaka, arimo utuntu tugiye dushushanyije, n'ururabo ruteretsemo.

Ameza, intebe za sheze, ahantu hateyemo sima. Hakurya naho harimo intebe, hicayemo abantu, harimo n'amadive.

Inyubako nini nziza cyane hazengururutseho ibintu bimeze nk'ibiti inyuma yaho hari imbere yaho hariho ibyuma, harimo ubwogero bw'amazi bita pisine mu imbere, hakurya yaho hariho ibiti.

Inzu nini cyane, imeze nk'aho batangiramo ibiribwa n'ibinywebwa, hicayemo abantu, harimo imitaka ishyiramo igicucu, harimo n'ahantu ho kogeramo mo imbere, harimo amazi, bafitemo ishusho ry'ubururu n'umweru.

Inzu nini cyane hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ibirahure byinshi, hakurya hari inzu igeretse rimwe hariho utwuma duzengurutseho ku nyubako yo hejuru, mu imbere harimo kugaragaramo imodoka irimo urugi rufunguye, imbere yashasheho amatafari.

Inyubako nini igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye, hejuru isakajeho amategura ifite imireko imanura amazi, hanze hariho umugabo urimo kugenda, umuryango urafunguye imbere yawo harimo umutaka n'ahantu harimo utwatsi twiza cyane.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda kigaragaza ko tugeze mu gihe cy'imvura nyinshi irimo imyuzure, ibiza, kwangiza inyubako ndetse n'ibindi bikorwa.

Mu nzu mo imbere igaragaza ho amadirishya, ameza, intebe n'ubuntu bagiye buteretseho bumeze nk'ibikombe, amatara ari hakurya na sima irimo isa nk'ibara ritukura.

Intebe nziza zitandukanye harimo iz'imikara, izijya gusa ikijuju, hariho umutaka w'ikijuju hejuru yazo, ibiti byinshi, hasi harimo na sima, hakurya hariho n'urugo.

Inyubako y'itaje igeretse rimwe, iriho ibyuma imbere, amadirishya hasi hariho moto n'abantu bagiye batandukanye benshi cyane, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu babiri bicaye, umwe yicayemo imbere, undi inyuma, urimo imbere afite mudasobwa imbere ye yubitse, ameze nk'aho arimo kumubaza ibintu cyangwa we amusobanuza ibintu, imbere harimo inyuma ikintu gishanyijeho umuhanzi.

Inzu nziza cyane ifite amakaro ateye irangi ry'umweru, amatara arimo kwaka harimo akabati n'ameza hateretsemo ibintu by'indabo hakurya n'ikindi cy'icyapa kidasomeka neza.

Abantu bicaye muri sare benshi cyane, imbere yaho hariho ameza ariho ibitambaro, intebe zo kwegamirwaho z' imyeru, imbere ubucupa bw'amazi n'amaterefone.

Ikigo cy'imari cyo kwizigamira cy'abaturage, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, asa icyatsi n'umukara, Umukobwa uriho wambaye ingofero nijire n'umupira w'umweru n'isaha ku kuboko.

Urupapuro rwanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, hariho mikoro iri mu ibara ry'icyatsi n'urupapuro ruri mu ibara ry'umweru, runini cyane.

Abantu batatu bose bambaye amakoti y'imikara, amashati y'umweru, amarinete babiri bafite umusatsi, undi umwe nta musatsi afite hariho amagambo yanditse murimi rw'icyongereza.

Ikigo cyo kwizigamira kubitsa kibikira abaturage amafaranga, handitseho amagambo, mu rimi rw'icyongereza, hejuru mu ibara ry'icyatsi, n'umukara hasi hariho n'imbuga bagenda bakora.

Mu isoko abantu barimo gucuruza abandi bagura abamama, inyanya, intoryi na karoti, harimo indobo, amabase, abantu bateze ibitambaro n'inyingi hakurya.

Abantu benshi bahagaze ahantu hameze nko mu isoko, barimo kugenda bagura ibintu, bafite telefone mu ntoki, ni abagabo bose bameza nkaho barimo kugenda babaza ibicuruzwa.

Nimwisoko harimo abantu benshi, barimo kugenda bakora ibintu bigiye bitandukanye, abafite ibintu , abadafite ibintu kimwe ,harimo imitaka igiye itandukanye, inyubako , amatara y'umuriro w'amashanyarazi agiye arimo.

Inyubako y'itaje ndende igeretse cyane itagaragara neza, hasi hariho amagare n'abantu bahagaze bambaye amasurubeti y'ubururu. Hariho n'ibiti rero hariho na kaburimbo.

Inzu nini cyane y'itaje igereretse hejuru, handitseho amagambo mu ururimi rw'icyongereza, hakaba hari n'andi ari hejuru ari mu cyapa ya ka na i na ca. Hasi hari abantu benshi cyane batagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye hari abikoreye imizigo, hari n'abadafite ikintu.

Imodoka zihagaze n'izindi zirimo kugenda, na moto imwe ihagaze n'indi irimo kugenda muri kaburimbo, inzu nini igeretse n'ibiti n'ibyapa bimanitse hejuru k'umuhanda.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu, harimo ibara ry'umuhondo, imodoka imuri imbere, n'undi muntu uryamye hasi n'undi wiyoroshe igitenge, hariho umutaka hejuru wa ibara ritukura.

Imbere y'inyubako harimo abantu benshi bahagaze bameze nkaho barimo kwaka ubufasha babafasha, harimo agapapuro kariho imibare n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda ka emutiyene bishyuriraho amafaranga.

Abantu babiri umumama n'umukobwa uwa mbere yambaye ikanzu n'umupira n'imisatsi. Uwa kabiri ingofero y'umuhondo, umupira w'umuhondo n'ipantalo y'umukara ahantu muri butike harimo n'amaji.

Umuntu umwe wambaye umupira n'ipantaro, urimo kuvugira kuri telefone, urimo uragaragara igice kimwe. Imbere ye hari akazu ka emutiyene k'umuhondo, kamuri imbere kuko karafunze.

Umuntu ugaragaza ibiganza, hasi yambaye ipantaro y'umukara, hejuru afite umusatsi, n'umupira cyangwa ishati y'ibara ry'umweru n'ubururu, imbere ye hari telefone na karikireta, n'akantu gateretse kari mu ibara ry'umuhondo.

Umuntu uri mu kazu ka Emutiyene, wunamyemo urimo kurebamo imbere, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw' Icyongereza; gasa umuhondo inyuma hari ibyatsi.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, bari mu kazu gasa umuhondo ka emutiyene n'akasanduku kari imbere, gateretse imbere ya bo harambitseho impapuro bose harimo utuntu tw'udutsiko tubiri dutandukanye.

Akazu kariho ifoto y'umukobwa ufite imisatsi wambaye ikanzu wifashe mu mpande, gafite ibara ry'umutuku, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Icyapa kirimo gusa umuhondo cya MTN ndetse muri rw'Icyongereza, hasi hariho ibara ry'umukara wijimye cyane, hariho n'ibiti hakurya n'inzu harimo kwakamo amatara.

Ni inyubako iri i Remera inyubako ziri I Remera ni nyinshi harimo amazu abaturage batuyemo hari amazu agaragara ko ari ay'ubucuruzi mbese hari amazu menshi hari ibiti byiza bihateye bigaragara ko hari amahumbezi arasa neza hanyuma icyo mbona bari bagiye kutwereka ni nyubako y'ipara resito bare cyangwa se kuri resitora na bale yitwa impala nibo baba bari kuturangira.

Ahantu hashushanyijeho utuntu tugiye dutandukanye twinshi, hariho amagambo yanditse mururimi rw'icyongereza. Harimo amabara y'umukara n'umuhondo n'ubururu.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Akantu kandiditseho ibiribwa n'ibiciro byabyo bigiye bitandukanye hariho capati igura amafaranga magana arindwi, hariho akantu k'akapa akantu kameze nka watsapu.

Mudasobwa iri imbere ifunguye irimo ibintu byinshi bitandukanye na telefone irimo kwaka irimo ibintu byinshi, ifitwe n'umuntu mu ntoki ugaragara ikiganza gusa hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Ibi bintu bishushanyije byinshi, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, igikapu, urukweto, umupira, icupa ririmo abantu hariho akantu kagaragaza abantu nko muri terefone.

Munzu mo imbere harimo itara ririmo kwaka harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, intebe n'ameza ari imbere yaho ariho igitambaro cy'umweru.

Harimo inzu igeretse rimwe hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza no mu Kinyarwanda igiti arigo muhondo n'icyatsi izuba ririmo kwakamo...

Itara ririmo kwaka mu ibara ry'umweru, amagambo yo mu ibara ry'umukara yanditse mu rurimi rw'icyongereza, akabati hariho utubati tune dukururwa twigira imbere, igikuta kiriho amakaro no hasi hariho amakaro, hirya hariho ikintu gisa ibara ry'umutuku.

Inzu nziza cyane ifiteho akantu karenga imbere, hariho ibyuma n'inzugi n'amadirishya, n'amatara arimo kwaka afite igisenge hejuru, akaba hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako nini cyane iri hakurya, imbere yayo hariho ahantu hariho ubwogero bwa pisine harimo amazi azengurutseho ikintu cyubakishijeho amatafari ariko hejuru hakaba hagaragaraho amakaro.

Munzu mw'imbere harimo irangi ry'umweru, ikijuju n'umukara. Hakabamo twa tuntu mu nzu abantu bihagarikamo cyangwa bakoramo nk'ubwiherero, mu nzu nini mu gihe cy'ijoro. Idirishya harimo ibyuma, hanze harimo ibara ry'umweru.

Inzu nini igeretse imwe nziza ikoreye amasuku iteyeho irangi ry'umweru, imbere yaho hashashemo utuntu tw'amatafari ahiye ariko bagiye baha forome igiye itandukanye.

Iyi nzu yanditseho n'amagambo ari mu rurimi rw' icyongereza niki n’ ikinyarwanda, harimo hasi hakoteye inzu nziza cyane iriho urwuma imbere amadirishya, n'inzugi igisenge.

Inzu nziza cyane ifite inzugi n'amadirishya, iteyeho umucanga hasi harimo amakaro, ifite igisenge hejuru isakaye. Harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Ndabonamo inzu, nkabonamo irimo hejuru parafo, hakaba harimo amatara hakaba hasi hasa ibara ry'umukara, hakaba handitse ngo Kigali Kimironko, harimo ibyumba bitatu by'abana, ibyumba bibiri, hakagurishwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inzu y'itaje igeretse kabiri ifiteho utwuma imbere turinda abantu ko bahanuka, hanze ku marembo hari itaka risa umuhondo n'urugo ruzengurutseho n'urugi.

Ndimo ndabonamo inzu isakaje amabati y'umutuku, hariho imireko, hariho urugi rwo kumarembo, runini hakabaho amatafari ahiye ari kurugo, n'ikirere gisa ubururu.

Inzu imanitseho ibipapuro byanditseho amagambo ari mw'ibara ry'ubururu, umuhondo. Hashushanyijeho ibintu by'ibiziga, hariho n'imibare, n'inyuguti byanditse nka "b, ijana na kane".

Inzu nziza cyane, irimo amatara, ibara ry'umweru, hasa neza, harimo amakaro, inzugi, na, n'ibintu imbere bikoze mu mbaho, biri mu ibara rijya gutukura.

igerutse rimwe hariho urugi n'amadirishya ibara ry'umweru, umukara n'ubururu hasi harimo haragakoteye, urugo inyuma ipironi harimo n'ikirere gifite ibara ry'ubururu n'umweru bivanze.

Inzu nini yubatse ahagana hasi, hari n'indi yubatse ahagana hejuru. Ahagana hejuru hari umuntu uhagaze imbere ku rugo rw'amabuye ruri hejuru, rw'uruhavu. Ikirere kirasamo ubururu n'umweru bivangavanze. Aho imbere yaho, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Inzu nziza cyane ifiteho inkingi ,amadirishya harimo ibirahure yubakishije amatafari ahiye afite igisenge hejuru isakajeho ibintu bimeze nk'amabati ,urugo rw'amatafari ahiye.

Ubu hariho urugo ibiti kamo abantu barimo wagira ngo bari kuvoma bafite ibidomoro n'inzu, abaditseho Kanombe Busanza bifite ibyumba bine by'abana ibyumba bitatu byo kogeramo byanditse ururimi rw'Icyongereza.

Inzu igeretse rimwe isakajeho amabati inkingi eshatu imwe, ebyiri eshatu, hasi harimo sima iteye irangi rijya gusa umuhondo hariho amagambo yanditse ururimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda.

Inzu igeretse rimwe, hariho utwuma tuyizengurutse turi hasi, hasi y'utwuma hariho urugo rw'amatafari ahiye, mu imbere harimo umukindo, ibyatsi, n'uduti twiza, n'ikirere gisa umweru n'ubururu, bivanze.

Inzu igeretse rimwe hariho amatara yose irimo kwaka amatara hagaragara ho urugi rw'ibirahure intebe ziteye hanze harimo n'amakaro indabo ziri ku mpande y'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Inzu hasi harimo amasima, igereretse rimwe hariho inkingi irimo ifite imireko hejuru n'igisenge n'urugo, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda.

Mu nzu mu imbere harimo hasi amakaro harimo ameza n'intebe zo kwegamirwa hakurya hariho umuntu uri imbere ya mudasobwa irambitse hejuru y'ameza.

Abantu bahagaze n'abandi bicaye bambaye imyenda igiye itandukanye, bambaye iy'ubururu, amapanaro yo hasi, imipira y'imyeru, n'imipira y'umuhondo, intebe iticayemo umuntu, indabo zitetsemo.

Mu nzu mu imbere ahantu harimo amakaro ariko hatagaragara neza harimo abantu bahagazemo n'abarimo kugenda amatara arimo kwaka, hari inyingi nyinshi cyane mu nzu hariho abicaye imbere yabo hariho ameza asa icyatsi.

Abantu benshi bicaye mu biro imbere yabo hari mudasobwa, zicanye zirimo guturukamo urumuri rusa umweru, bambaye imipira yu'umweru, bari kumeza zisa umuhondo, kandi bose bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Aka ni agace gatuwe nk'uko bigaragazwa n'ibipangu bihari, hateye ipoto ririho insinga z'imikara kandi iri poto biragaragara ko rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace aha turahabona amapave aho iri poto rishinze, hari n'ibiti hakurya ndetse hari n'amabuye akikije izi ngo.

Umukobwa usa neza uhagaze wambaye ikote n'ishati y'umweru mu maso n'inzobe afite imisatsi mu ntoki afitemo akantu kameze nk'impano bamuhaye, mbere ye hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'igifaransa.

Inyubako nini cyane irimo kwakamo amatara me menshi hasi harimo abantu ariko batagaragara neza. Harimo ibikoresho byinshi harimo ibyiganjemo bifite amabara y'umutuku.

Inzu mimbere hariho amakaro hasi no hejuru ku gisenge amatara ari kwaka menshi cyane hasi harimo abantu babiri n'ibindi bintu birimo kugendamo bakoramo, ariko hari ibyiganjemo amabara y'umutuku.

Umwana w'umukobwa, wicaye ku ntebe ya sheze, yambaye umupira w'umweru n'ijipo y'igitenge, ahantu harimo sima, afite amakarita abiri mu ntoki ze.

Inzu yubatse irimo n'irangi n'ibipapuro byanditseho aho bigenda biyobora abantu, harimo abantu bicaye n'abahagaze hejuru yanditseho ibintu mu rurimi rw'ikinyarwanda, ngo ikigonderabuzima cya Remera, hanze hariho akantu bamenamo imyanda n'umukoropesho.

Abantu benshi bahagaze ariko bagaragara igice cyo hejuru gusa, hakurya hari amazu n'amapoto ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hejuru hariho agapapuro k'umweru handitse ngo ejo heza, ikirere kikaba gisa umweru n'ubururu bivanze.

Umuntu urimo kugaragara ibigaza ufashe ku gipapuro cyashushanyijeho abantu bane bafite mudasobwa, imbere yabo hari n'ikaramu n'agacupa k'amazi n'amavuta yo kwisiga ku mpande hirya.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, hirya hari inyubako zitandukanye zigeretse ndetse n'izitageretse.

Ahantu harimo amagambo yanditse mu ibara ry'icyongereza hari ikigo cy'umutekano harimo ibara ry'umuhondo, ubururu n'umukara n'inyubako y'itage y'inyuma ndende cyane.

Kashe yanditsemo amagambo mu rurimi rw'igifaransa harimo na sinya harimo n'amagambo munsi yanditse mururimi rw'icyongereza menshi cyane n'imibare.

Inyubako y'itaje igeretse hejuru, irimo ibirahure by'ubururu, hasi harimo imodoka irimo mu hantu hubakiye harimo ibyuma, isakariye wagira ngo ni amabati, hasi hariho n'ibyatsi n'amaraba.

Hari ho abantu babiri bafite igipapuro mu ntoki cyanditseho ururimi rw'ikinyarwanda harimo amazina MUKANSIGA Pasikazi, hariho amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu bari mu nzu mwimbere.

Imodoka yu'mweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'mweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Mu isoko harimo ibicuruzwa: inyanya, intoryi n'ibindi harimo televiziyo, umuntu umwe, amakarito, ibyapa biyobora, hasi harimo n'amakaro n'amatara.

Ko hariho umuntu ufite akantu ahetseho igikapu akaba yambaye umupira w'umukara n'umuhondo, inyuma ye hari undi wambaye isurubeti n'ibiciruzwa biri inyuma nyinshi cyane.

Mu isoko, hantu bacururiza ibintu bigiye bitandukanye, harimo akabati, n'ubwoko bw'amavuta bigiye bitandukanye. Hasi harimo sima, hariho n'amagambo yanditse mu nyuguti z'icyapa; D, na A, na I, na R, na Y.